Inzu yubatse mu buryo bugezweho yubatse neza cyane, isize amabara atandukanye, ifite amakaro, iriho ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwamo, ikindi kandi imbere yayo hari imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umukara, andi asa n'umweru, hari umuntu wambara imyenda itandukanye, aba acunga aho hantu bita umusekirite.

Ikibuga kimeze neza cyubakishije amapave, gihagazemo abantu bambara imyenda ifite amabara atandukanye. Arimo umweru, andi asa n'umukara, hirya yabo hari imodoka ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru, andi asa n'umukara. Hirya y'iyo modoka hari amapoto ajyana umuriro impande zose.

Ibitanda bitatu bikoze mu buryo bumeze neza bigiraga n'amapine, bigira na matela abantu babiryamaho biri mu cyumba gisize amarangi ameze neza hirya y'aho hari n'umugezi bakarabiraho, hari n'icyuma kirekire kimeze neza bashyiraho serumu iyo umurwayi arembye cyane.

Umurima uteyemo ibimera bitandukanye, abantu bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye ,hirya yawo hateye amashyamba bifashisha, mu gukuramo imbaho , bifashisha bakuramo intebe, bifashisha bakuramo ameza, hateye n'ibyatsi bimeze neza cyane.

Umurima munini urimo ibinyomoro bimeze neza, bawitaho bashyiramo ifumbire, kuko bigira umusaruro ushimishije barabishora, barabigura kuko bitanga amafaranga bigira n'akamaro ku muntu udafite amaraso.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, harimo amabuye twita amakoro, harimo isogi zivamo umuti twita wa kinyarwanda, abantu bawukoresha bivura indwara zitandukanye, ikindi kandi baraziteka zigashya, barazirya.

Umurima munini uteyemo amashyamba, urimo biti bitandukanye intusi, imibonobono. Bigira akamaro gatandukanye havamo inkwi iyo wacyana, havamo ameza abantu bariraraho, havamo intebe, havamo n'amafaranga n'ibindi bitandukanye.